Amafi ane akaranze ateye ibirungo ari ku isiniya.

Mu bagabo babiri umwe yambaye ikositimu undi yambaye ishati y' umweru n'ipantaro y'umukara bari guhuza uturahuri, bari kunywa bari guhuza uturahuri ku buzima bwabo bicaye hagati y'iruhande rw'iduka ririmo ibinyobwa byinshi za rikeri...

Ibirahuri, icupa rya sikoro, ibirahuri birimo sikoro, harimo abantu, abantu bari kunywa, bambaye imyenda yimituku, bicaye bari kwiyakira.

Umugabo n'umugore bicaye mu biro, aahantu hari akabati gakozwe mu giti, imbere yabo. Hariho intebe z'amafoteyi zifite ama... zikoreshejwe ibyuma mu byuma..

Inyubako nziza cyane yanditseho pirimusi. Iteye irangi ry'ubururu. Ifite amabaraza, inkingi z'amatafari ahiye. Ifite n'idirisha ry'umweru.

Abakobwa babiri n'umusore bicaye imbere y'ameza, basutse ji mu kirahuri, bari kwitegereza, bicaye hagati mu mangazini arimo ibinyobwa.

Iduka rinini , ririmo umugabouhagaze kuri kontwari. Harimo inzoga za rikeri. Kontwari yubakishije amatafari ahiye.

Ibiduki binini by'umukara, biri ku nyubako igereretse gatatu, biteretse ku mapave.

Umucuruzi wambaye umupira w'umuhondo n'ikoboyi, ufashe intebe ya sheze mu ntoki, imbere hari ibisheke umufuka w'amakara, n'ibihaza biri hejuru, hijya muguni harimo umugabo uri kugaragara ukuguru kumwe, uri gucuruza umugabo uri gucuruza muri kontineri.

Inzu nini cyane ifite inzugi z'umukara, giriyaje zihari k'uruzitiro n'umutuku, imbere yaho hariho amakoro kuri fondasiyo, hejuru isakariye bukonoshi, iteye irangi ry'umweru ku makorone.

Inyubako ifite amarangi y'icyatsi n'umutuku, ku ibaraza hapanzeho amadobo, imbabura, amabase, imyenda y'ibishora, ni ibikapu ni imikandara bihamanitse.

Iduka rinini cyane ripanzeho matora nyinshi cyane, iryo duka ryubakishijwe riteye amarangi y'umuhondo, inkingi z'ubururu, haruguru hakikijwe amabuye y'amakoro ateye irangi ry'umukara n'umweru hejuru hariho ibyapa.

Umugabo uri kugenda ageze imbere y'inzu ahantu hakinguye umuryango, mu muryango harimo rido uri kwitegereza mu nzu. Iyo nyubako ifite n'idirishya ry'umukara kandi yometseho n'amakaro, imbere hari undi mugabo uri kugenda yambaye n'ingofero y'urugara.

Inyubako irimo amacupa y'amafanta, acuramye harimo n'ibyapa by'imihondo, n'iby'ubururu, ku ruhande rwayo, inyubako isize amarangi y'ubururu, iruhande rwayo, hariho amakaro, amabuye y'amakoro ahazamuye.

Inyubako nziza ifite porotayi y'ubururu, conoshi yubatse ko noc ifiteho nindabo zicyatsi

Inyubako nziza cyane irimo ifite imiryango y'umweru ifite amarangi y'ubururu hejuru hubakishijwe isiri iriho amakaro.

Impanga z'igare. Zirunze hamwe zihambiriye, zihambiriye n'imigwegwe isa n'umweru, hariho n'izihambiriye n'isa n'umuhondo. muri izo mpanga, harimo n'impanga zisa n'icyatsi.

Umugabo uhagaze hagati mu rugi, rufite irangi ry' umweru hirya kuruhande, rufite irangi ry' ubururu inyuma yaho hariho amacupa amwe y' umweru n' imituku.

Igare rihagaze kuri kaburimbo. Ku nyubako hariho n'abandi bagabo. Hakurya y'aho hariho ibicuruzwa biteretse ku mabaraza. Inyubako yometseho amakaro. Hariho n'itsinga n'amapoto y'amashanyarazi.

Iduka ririmo ibicuruzwa. Muri iryo duka, mu muryango hicayemo umugabo wambaye imyenda y'imikara ufite n'ingofero yanditseho. Ari kwitaba terefone. Urugi rw'iduka rusa n'umweru. Haruguru y'iryo duka hicayeho undi mugabo wambaye imyenda y'igitaka n'umukara.

Inyubako nini igihande kimwe gifite amakaro y'umweru n'umukara, ikindi giteye irangi ry'ubururu. N'umutaka wa eyateri nibyapa hejuru bibiri kuri iyo nyubako

Iduka ririmo ibicuruzwa. Muri iryo duka hahagazemo akana kambaye ishati y'ikoboyi n'agakabutura k'umweru. Agakoboyi gafite n'icyapa cy'umuhondo.

Inyubako y'amatafari ahiye hari icyapa cyanditseho kuri cumi na gatandatu hari ikindi kiri hino cyanditse inyuguti z'umuhondo, ni z'umweru, z'umuhondo zandetseho kayitare, kayitare na nimero za telefoni.

Inyubako igeretse yanditseho ku makaro meza afite amagiriyaje y'umutuku, iparitseho n'imodoka y'ivatiri.

Inyubako nziza iriho amakaro, inkingi zizamuje amatafari, hari imodoka y'umukara y'ibenzi nziza, hariho n'abagabo bicaye imbere yaho bambaye amashati y'icyatsi n'amapatalo y'umukara.

Amangazini arimo imyenda, urugi rw'umweru, harimo imyenda y'ubururu, umutuku, umuhondo ndabona harimo n'abacuruza babiri umugabo n'umugore.

Akabari keza cyane kandi gapanzemo amakesi menshi, kubakishishe inyubako harimo porotayi n'urugi rw'umukara, hejuru yaho hariho irangi ry'umutuku, ku muryango hari amacupa ya Primus.

Inyubako nziza iteye irangi ry'umuhondo yicayeho umugabo n'abagore babiri bari kunywa umutuzo mu muryango, harimo rido y'umutuku n'umuryango w'icyatsi.

Inyubako iri ku muhanda, iyo nyubako iteretseho akameza gateretseho ampuri, imbere yaho hariho imifuka ipanze kuva hasi kugera hejuru, muri iyo mifuka ipanze harimo n'iy'imihondo, imituku ,n'iy'umweru. imbere yaho hariho n'imodoka iparitse.

Inyubako y'ubucuruzi yubakishije cyangwa ifite inkingi zometseho amakaro, imbere yaho haparitse moto na matera, ibicuruzwa by'imyenda bimanitse , imbere yaho hirya hamanitse matera z'icyatsi.

Iduka rinini cyane rifite ryometseho amakaro y'umutuku. Ni umutuku udahiye neza, hariho n'icyapa cy'umuhondo. Imbere y'iduka hariho imodoka, imbere y'iryo duka hariho n'amabize ateyemo indabo.

Inzu y'Ubucuruzi iriho umutaka wa MTN, hariho umukobwa umwe wambaye jire ya MTN undi yambaye ikanzu y'umuhondo. Hakurya yaho hariho ameza apanzeho imyenda irimo imituku n'amasogisi ibicuruzwa.

Inyubako y'ubucuruzi, ifite urugi rw'umweru, hino yubakishijwe amabuye y'amakoro，akaswe mu makoro，hejuru hariho icyapa， kigaragaza iyo nzu，icyo ikora.

Inyubako nziza cyane， ifite porotayi y’ubururu， yubatswe mu bwoko bw’inzu z’amakadasitere， inzu zigera muri ebyiri， ziri mu ndabo z’icyatsi n'umuhondo， indabo ndende cyane.

Inzu inyubako irimo ibicuruzwa igeretse, irimo ibicuruzwa birimo birambitse ku ruhande, hariho n'abagabo batatu bahagaze umwe yambaye umupira w'umutuku, ni pantaro y'umweru n'inkweto z'umutuku.

Inzu nziza ifite inzugi z'ubururu, isize irangi hejuru ku gikuta, hirya no hino ujya mu muryango hari amarangi y'umweru n'ubururu budahiye.

Imodoka iri gupakuru imifuka, bari gupakurura imifuka ya sima, harimo umukarani wambaye itabuye y'icyatsi, imbere yimodoka hariho umugabo uhagaze wambaye impeta z'umweru n'ikoboyi, n'umupira urimo, umweru n'umukara.

Inyubako nini iriho umuntu uri kudoda umwenda w'umweru, hariho ibizingo by' intsinga z'amashanyarazi, hariho n'ibidomora by'umuhondo biteza imbere yabo, harimo n'umudamu uri gukaraba mu ibase.

Imodoka ziparitse imbere y'iduka kuri kaburimbo. Iryo duka zihagazeho ry'ubakishijwe amakaro, riteye amarangi y'ubururu. Uwo mugabo yambaye ishati itari umweru neza, n'ipantaro y'umukara ari kugenda mu muha kaburimbo.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari kuruhande hariho irangi ry'ubururu, imbere yinyubako haparitse imodoka, hepfo yaho hariho moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Iduka rinini cyane, ricuruza amazi n'amagaze, ku ruhande hariho rufite urugi rw'ubururu, ruteye n'irangi ry'ubururu.

Abantu benshi bicaye imbere y'iduka ricuruza riri gucuruza ibikapu , imyenda imbere yaho harimo n' imitaka ya emutiyeni. Abagabo bambaye n'amabote, harimo n'abambaye bote n'umupira w'umutuku, n'ingofero za songambere.

Iduka rinini cyane riri gucuruza imyenda harimo umugabo, imbere yaho hariho umutaka wa emutiyene, imbere hejuru hariho n'icyapa kuri iyo nzu y'ubucuruzi, inyuma hariho amabara atatu icyatsi, ubururu n'imituku.

Uru ni urugi runini, umuntu utari kugaragara neza, uri kurukozamo urutoki muri kadeni, urugi rufite ibara ry'umukara n'ubururu n'ikigina kidahiye.

Inyubako nini cyane iriho umutaka, imbere hari umutaka wa emuteyini n'umukobwa wipfutse igitambaro cy'umuhondo, hakurya hari umukobwa wipfutse igitambaro cy'umutuku. Hejuru hari icyapa kiri ku makaro, icyapa kiriho amacupa y'ubwoko bwose.

Inyubako nziza cyane, isoko hariho imifuka iteretse imbere ku ibaraza, hariho abadamu babiri n'umugabo wicaye wunamye, umudamu wambaye umwenda warumbuya undi wambaye igitenge n'umupira wicaye, nundi uri inyuma yabo uri kureba muruhande rwo hirya.

Inyubako iriho abadamu, bari kugenda babiri. Umwe afashe agatebo, undi ufashe igikapu mu ntoki n'umufuka mu be bitugu. Umwe yambaye ibitengeba n'umupira w'umukara , undi yambaye igitenge n'umupira w' umutuku. Inyubako ifite inkingi z'imituku n'amarangi y'unutuku yanditseho.

Imyenda y'amakositimu imanitse kuri porotomanto, harimo n'amatara, amakositimu y'umukara n'igitaka, harimo n'umugabo uri kubicuruza wambaye n'agapfukamunwa.

Resitora kimaranzara, ifite urugi rufite ibara ry'icyatsi, post hejuru, imbere yaho hicaye umuntu ufite ibiryo biri mugasorori, hariho ururabo rw'icyatsi n'imiti..

Inyubako igeretse nka kabiri irimo ibicuruzwa byinshi ifite inkingi z'umweru ,inzugi z'ubururu ,hakurya hariho n'icyapa cy'umuhondo.

Ibaraza, inzu y'umuntu uri gucuruza imyenda y'abadamu, uri kuyerekana. Hariho igiti cyambaye umwenda w'abadamu, bambitse umwenda w'abadamu. Inyuma yaho hariho n'imyenda enye. Yamanitse urugi ruriho rukingishije n'ingufuri ...

Abakobwa bahagaze bambaye amakanzu y'ubururu budahiye neza, bahagaze mu itente rifite amabara y'umutuku, umweru, n'umuhondo.

Inyubako nini cyane imbere yayo hariho ubusitani, iteye amarangi y'umutuku, ifite imiryango y'imikara hari igiti kinini imbere yayo, haruguru yaho hari ho inyubako yubatse kinyarwanda isakaje ubwatsi.

Inyubako iri ahantu tutari kubona neza hariho korotire izitijie inkingi hagati harimo senyenge hariho n'igiti kinini cy'umuvumu n' indabo z'umuhodo n'itsina z'uruto_n'insina.

Mu iduka rinini riri gucuruza ibicuruzwa supamaketi, harimo umuhungu wambaye isarubeti , n'umudamu wambaye ikanzu witeye n'agasharupe k'umuhondo.

Ibishyimbo biri ku nkoko basute hasi, biririmo bishyimbo by'imituku, iby'imihondo, iy'umukara, iby'umweru, amabara y'umweru by'intonore.

Isoko rinini ryubakiye hari kugaragaramo imifuka y'imikara, ni iy'icyatsi, hicayemo n'abadamu bambaye imyenda y'imituku n'ubururu, hateretseho n'indobo y'umuhondo n'agapaniye k'icyatsi, hahagazeho n'umugabo wambaye imyenda imituku.

Isoko, ndabona umuhungu ufite indobo ebyiri zirimo imbada uri gucuruzi wambaye ipantaro y'umukara na badaboda n'ishati y'umutuku, irimo n'amabara y'umweru uhetse n'agakapu mu mugongo n'indi irambitse hasi bari gucuruza, n'inyubako hirya z'amaduka.

Ibicuruzwa by'ibikapu byinshi by'amabara yose, harimo icyatsi, umutuku, umukara. Hirya yaho hariho umuhungu wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'ubururu, uri kureba uruhande rumwe.

Ibaraza ripanzeho ibicuruzwa, harimo ubuyunguruzo, ubukapu n'inkweto, bodaboda z'icyatsi ,iz'umuhondo n'iz'ubururu.

Ubucuruzi buri kugaragara ukubi bigaragaro ko uriya uri gucuruza ,yee, ubona ku meza hari ibipipiri, igitambaro gipfunyitsemo ibitenge, n'imikanda iziritse, imanitse hirya ye, ubucuruzi.

Iduka ririmo ibyombo, amadobo, udupaniye, amasafuriya afite imipfundizo na za telemusi zo gushyiramo igikoma.

Ibicuruzwa byinshi cyane indobo nini ebyiri, ibicuruzwa by'amacupa amacupa y'amavuta yo kwisiga.

Ikibanza kirimo, gisutseho ibigori ku kibuga, hariho n'amatureyi apanzemo amagi, iruhande hariho umudamu uri kureba hirya, uri kugaragara igice kimwe, wambaye ishati y'ubururu, iruhande hano hari umukobwa wambaye ingutiya y'umukara, n'umupira w'umutuku.

imisego irambitse hasi, hari imisego y'umweru, n'iy'umutuku, n'iy'umuhondo, ipfunitse mu bitambaro.

Isoko ryubakiye, isoko ry'ibiribwa. Harimo ibirayi, imbuto, z'ubwoko bwose. Inyanya, marakuca, ibitunguru binini, ndabona n'abari gucuruzamo. Abadamu, n'abagabo harimo n'imyenda, ndi kubona n' imyenda.

Ibihaza bisutse ku kibuga binini ,n'amacunga ari ku kibuga...

Isoko ririmo ibicuruzwa, ricururizwamo imyenda, rifite inyubako y'amatafari ahiye, risakaye, isoko ryubakiye.